Mu rwanda hari abantu benshi cyane bakorana na banki ya kigali, aho batanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza, bakazigeza ku baturage hirya no hino mu gihugu.

Umusore wambaye akajire k'umuhondo k'ikigo, gitanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura cya Emutiyeni. Akaba ahagararanye n'umusore wambaye ikabutura n'umupira uje gushaka serivisi aho ari kugenda amufasha.

Abari beza cyane bambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'umweru. Bakaba bambaye imyenda ya sosiyete itanga serivisi zo kubika ndetse no kubikura mu Rwanda, izwi nka Airtel.

Urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hari abamotari, umumotari umwe yambaye kasike y'ubururu, umugenzi agiye gutwara yambaye kasike y'umutuku ndetse imbere y'akazu ka sosiyete itanga serivisi zo kubika no kubikuza MTN hahagaze umukobwa.

Umupapa wicaye mu mutaka wa Mtn yambaye ijire yabo. Hakaba hari umusore uje kwaka serivise, zo kubikurirwa. Uyu mupapa ari kumuha telefone ngo ashyiremo nomero ye, maze amubikurire.

Umusore wicaye mu kazu gatangirwamo serivisi zo kubitsa no kubikuza bya sosiyete izwi ikorera mu Rwanda nka MTN, hakaba hari umupapa waje kwaka iyo serivisi akaba ari kugenda amufasha.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane usashe mo amapave. Hakaba harimo akazu ka Emutiyeni kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Hirya yako hari umumotari uhaparitse ndetse hakaba n'andi mazu y'ubucuruzi, acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abasore batatu bambaye amajire y'abakozi b'ikigo gitanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura MTN, bari kumwe n'umugabo umwe waje kubikuza. Iruhande rwabo haparitse moto ndetse n'amamodoka menshi, hakurya y'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi.

Aba ni abantu bafite ibyapa byamamariza sosiyete y'itumanaho ikorera hano mu Rwanda izwi nka Airtel. Ikaba itanga serivisi zo kubitsa, kubika, ndetse no kubikurira abaturarwanda.

Aha ni ahabereye igikorwa rusange cyo kugira inama abantu bose, hakaba hari umumama wambaye ikanzu itukura ufite indangururamajwi mu ntoki, ari kugenda ababwira ndetse bamuteze amatwi nk'uko biri kugaragara.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umuhondo, iriho ibyapa byamamaza, hakaba hariho icyapa kigaragaza ko batanga serivisi z'irembo, hafi aho hakaba hari abantu baje gushaka serivisi.

Aba ni abantu bateraniye hamwe bose bakaba barishimye bari kungurana ibitekerezo aho batekereza ku bijyanye no kwizigamira ndetse no kugurizanya kugira ngo biteze imbere, imbere yabo bakaba bahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara ari kubabaha ibitekerezo bye afite indangururamajwi.

Aba ni aba babiri bari kwishimira ibyo bagezezweho nyuma yo gukorera hamwe. Aha rero bari kwereka ibyiza byo gukorana n'ama banki ndetse n'amashyirahamwe yikorera kuko bishobora kugufasha kugera ku iterambere.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu bikorwa byo kungurana ibitekerezo, ku bijyanye na banki ndetse, n'amashyirahamwe. Aho bavuga ku ngingo zijyanye no kubitsa, kugurizanya ndetse no kwiteza imbere.

Mu rwanda abaturage bose basobanukiwe uburyo bwo gukorera hamwe, cyane cyane aho bagana amashyirahamwe, yaba abitsa ndetse n'abikuza maze bakikorera nta mbogamizi.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'imari, gitanga serivisi zo kuzigama, kuguriza, kubitsa ndetse no kubikuza, harimo abantu bambaye udupfukamunwa baje gushaka izo serivisi, hakaba harimo babiri bari imbere bari kwakirwa.

Akabari keza cyane karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo amayetajeri arenga atanu hakabamo icyuma gikonjesha ibyo kunywa, hakaba intebe ndende abantu bicaraho bari kunywa ndetse n'icyuma kigaragaza amashusho.

Ni inyubako nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga, aha harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza, aho ababagana baza bisanga kandi bakahasanga isuku idasanzwe.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo icyuma gitanga umuziki, hakaba hari icupa rya mutingi riteretse ku meza. Ni byiza kugurira aho hameze neza.

Aya ni amacupa agiye atandukanye arimo ibinyobwa. Aya ni amacupa irisa icyatsi kibisi, irisa orange ndetse n'irindi rijya kubonerana. Hakaba hari n'uturahure tubiri bigaragara ko twifashishwa mu gufata icyo kinyobwa.

Iri ni iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi w'umusore, ufite ikaramu akaba afite ibyo ari kwandika mu ikayi agenda yuzuzamo.

Aka ni akadobo kari mu inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu y'ubucuruzi ikaba irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amakarito ya biswi, hakabamo utudobo tw'isabune y'ifu ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba harimo ibicuruzwa birimo nk'indagara, amavuta, ubunyobwa, ibishyimbo, umuceri, isukari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ibintu bigiye bitandukanye hari ubucuruzi bukorwa ni iduka ririmo amabase amakarito agiye atandukanye, imifuka y'imiceri, y'amasukari, iy'umunyu ndetse n'indi igiye itandukanye.

Iri ni iduka ricuruza amavuta agiye atandukanye yo kwisiga, harimo avura uruhu ndetse n'amavuta asanzwe, hakaba harimo ay'amazi ndetse n'aya gikotori akaba acuruzwa.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubika neza amagi ndetse n'andi kuko bituma adashobora kuba yakwikubita hasi ngo ahungabane cyangwa ameneke.

iyi ni inyubako y'ubucuruzi ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, nk'ubw'amavuta, ibiribwa ndetse n'ibindi hakaba hari ikiganza gishushanyijeho ndetse n'akapa kagaragaza ko bacuruza puridanse.

Ubwoko bugiye butandukanye cyane bw'imiti bukaba buri aho imiti icururizwa, iyi ni imiti gakondo ushobora kwigurira kandi iba itunganyije mu buryo bukwiye ku buryo uwuguze awukoresha ntagire ingaruka.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi. Ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo amajyani, hakabamo indobo bacururizamo amandazi ndetse hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aha ni hantu hari amaduka agiye atandukanye, aya maduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari intebe za parasitike z'ubururu n'iz'icyatsi kibisi, hakabamo imikoropesho, amabase ndetse n'utumeza duteretseho ibintu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umupadiri yambaye imyenda myiza cyane y'umweru ndetse akaba yambayeho n'igishura cy'umukara. Ahagaze imbere akaba ari kwigisha ijambo ry'Imana. Abo ari kwigisha barakurikiye.

Mu rusengero usanga padiri aba ari umuntu wubashywe. Aha turi kubona umupadiri wicaye ahantu heza cyane, hejuru ye hakaba hari umusaraba, imbere ye hakaba hari ameza ateguyeho ibitambaro birimo amabara agiye atandukanye nk'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Mu rusengero hari igihe rimwe na rimwe bigisha abayoboke babo gukoresha ikoranabuhanga, aha hari mu cyorezo cya covid cumi n'icyenda, aho abakiristu bagombaga gutura bakoresheje telefoni, uyu mwari akaba ari kwereka uyu mukecuru uko yabikora.

Mu rusengero pasiteri abari kwigisha abakirisitu kandi akabasomera imirongo igiye itandukanye, ibafasha kuva mu buzima bumwe, bajya mu bundi cyane cyane bagana imana.

Inyubako nziza cyane rukaba ari urusengero rw'Abadeperi cyangwa se abarokore. Rwubakishijwe amatafari ahiye, rukaba rusize irangi ry'umuhondo, inzugi ni umutuku, ibirahure ni umukara. Nkuko bigaragara rero ni byiza gusengera ahantu heza.

Iyi ni inyubako y'urusengero. Ikaba yubakishijwe amabuye. Isakaje amabati. Hejuru ku muryango hakaba hariho umusaraba. Imbuga isashemo amapave. Hari umuntu uri hatambuka. Hirya y'urwo rusengero hatuye abaturage.

Iyo turi mu rusengero tuba tuganira n'Imana kandi tuba twiringiye ko nayo iri kutwumva maze tugahumiriza tukayibwira. Aba ni ababyeyi bari gusenga kandi bakaba babyitayeho.

Mu rusengero usanga abantu benshi cyane cyane abakuze bahagaze, biyambaza Imana mu buryo bwo kuyiririmbira ndetse no kuyitakambira bayisaba umugisha kugira ngo bakomeze bagire amahirwe.

Mu rusengero hari igihe biba ngombwa yuko basohokamo igitaraganya. Ni byiza guteganya umuryango ushobora gusohokeramo. Niyo mpamvu insengero zidafite ubushobozi, zikwiye kuvanwaho.

Iyi ni inyubako y'urusengero, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite ku mpande utuntu tw'icyatsi kibisi. Inzugi zayo ni icyatsi kibisi. Imbere ya hari ubwogero.

Mu rwanda habaye igikorwa cyo kuvugurura insengero, aho buri rusengero rugira aho imodoka zihagarara, ndetse bakagira n'akuma gatuma amajwi adasohoka. Uru ni urusengero rwiza cyane rusakaje amabati atukura.

Mu rusengero naho hakorerwa ibikorwa bifatanya na leta mu gukumira ndetse no gusigasira, ahangaha turavuga gukumira ibiza, tukavuga gusigasira ubuzima, hari umupasiteri ufite akapa kanditseho ati gerayo amahoro.

Inyubako nziza cyane ya hoteri. Iyi nyubako ikaba irimo amabara meza cyane ashobora gukurura abantu. Hakaba harimo n'intebe mo imbere. Ni byiza rero ko nawe niba ugiye gusohoka ubanza kubaza amakuru, maze ukamenya ahantu heza ukwiye gusohokera.

Ni inyubako nziza cyane ya hotel iyi nyubako ikaba irimo intebe nziza ndetse n'ameza aho bakirira abaje babagana harimo inkuta nziza cyane zisize amarange hakabamo amarido ndetse n'amatara wacana mu gihe ubikeneye.

Inyubako nziza ya hoteri inshuro nyinshi usanze iba ifite n'ubwogero. Aha turi kuhabona ubwogero bwiza cyane bufite amazi afite ibara ryiza, aho abantu bishimira kuyoga.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi za hoteli, hari abantu bambaye neza bigaragara ko baje gusaba serivisi, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye imbere hakaba hariho umuzenguruko, harimo ubusitani bwiza.

Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo, harimo intebe nziza, ameza ndetse n'uturabo, nawe ushaka gusoko wasohokera hano hantu, maze bakakwakirana yombi.

Inyubako nziza cyane ya hoteli, irimo ibitanda byiza cyane, biriho matela nziza cyane ndetse n'amarido meza, hanze hakaba hari ibiti byiza bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, kuba wayisohokeramo byagushimisha.

Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'amahoteli, hakaba harimo udutebe tubiri tw'umutuku, harimwo ubuta ni bwiza cyane, utuyira twawo tugiye dusashemo amapave, ku mpande hakaba harimo utugaraviye.

Iyi ni inyubako nziza cyane. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivise z'amahoteri, aho nawe ushaka gusohoka usohokana n'abawe maze mukaza mukishimisha kuko iyi hoteri igi byose kugera ku bwiherero.

Inyubako nziza cyane ya hoteli ikaba irimo ameza asa neza, hakabamo intebe zisa neza ndetse nyinshi ziyazengurutse, hateretse uducupa tw'amazi aho uramutse uje kuhakorera inama usanga byose birimo.

Iyi ni nyubako itangirwamo serivisi z'amahoteri ndetse n'ubukerarugendo, harimo inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugeretse, hakaba hari ibiti birebire bitanga amahumbezi ndetse n'umuyaga, hakaba na pisine nziza cyane.

Amahoteli akunze kugira ibitanda byiza cyane biba bisasheho matera ndetse n'amashuka meza, hakaba hari utumeza ndetse n'utubati ushobora guterekaho ibintu byawe mu gihe wabizanye.

Iyi ni inyubako nziza cyane ikorerwamo ubukerarugendo, iyi hotel ikaba yubatse neza mu buryo bugezweho igeretse gatatu, munsi yayo hari ubwogero bwiza cyane burimo amazi afite ibara ryiyiza hakaba n'uduti dutanga umuyaga.

Inyubako nziza cyane ya hoteri. Iyi nyubako ikaba ifite ubusitani bwiza mo imbere. Ifite akagezi kanyuramo. Iyi nyubako nawe uyigezemo ntiwazifuza kongera kuhava cyangwa se gutemberera ahandi hantu.

Inyubako nziza cyane ya hoteri yakirirwamo abantu bagiye batandukanye harimo n'abakerarugendo. Aha harimo abirabura ndetse n'abazungu bafite amafunguro meza cyane imbere yabo ku meza.

Iyi ni inyubako ya hotel . Ni inyubako irimo igitanda cyiza cyane gisasheho moterala nziza cyane ndetse iriho n'amashuka meza cyane. Hakaba hari aho ushobora gushyira imyenda yawe ndetse n'utundi tuntu wazanye.

Hoteli nziza cyane iri ahantu heza hitaruye imisozi, ikaba ifite intebe nziza cyane n'ameza mu rwakiriro hakaba hari amarido meza ubishaka wayashyiraho, iyi hoteli irasobanutse.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteri yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho byiza cyane nk'intebe nziza, imisego y'umuhondo, hakagaragaramo amatara meza cyane, nawe ufite umuryango cyangwa inshuti zawe wifuza gusohokana wazizana aha.

Iyi ni inyubako ya hoteli, ikaba irimo ibintu byinshi cyane byiza bishobora gukurura ba mukerarugendo. Ni byiza ko buri hoteri iba ifite ibintu byiza kandi yizewe.

Iyi ni hoteri nziza cyane, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibyumba byinshi, ikagira imbuga nini ushobora gukodesha ukaba wayikoreramo ibirori byawe ndetse n'abawe.

Ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye cyanecyane ibiribwa. Turi kubona umufuka urimo akawunga gasa neza n'undi urimo umuceri. Tukabona uducupa duto turimo amavuta yo guteka.

Umuhanda w'igitaka urimo ikinyabiziga cya moto, uyitwaye yambaye imyenda y'umukara ndetse na kasike y'icyatsi, inyuma ye hakaba hari umumama ufite ishakoshi ku rutugu, bose begereye isoko ry'imyenda.

Urujya n'uruza rw'abantu, iri rikaba ari isoko ry'ubuconsho cyangwa se isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo: abamama, abapapa, abasore ndetse n'abana, baje kwigurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyo kurya, tukaba turi kubona umuceri uri mu mifuka igiye itandukanye, uyu muceri bakaba bawucuruza bifashishije igikombe aho bagupimira bitewe n'ingano y'uwo ukeneye.

Umubyeyi wicaye ahantu hari imboga n'imbuto bigiye bitandukanye, turi kubona imbere ye hari urutaro, ruriho inoryi ndetse na karoti, imbere ye hakaba hari akadobo k'umuhondo nkuko bigaragara, ni umucuruzi w'imboga.

Ihene ni inyamaswa zororwa kandi zikororoka neza, izi ni ihene z'imikara ziziritse ku biti ahantu mu rwuri, aho zihisha ziziritse kugira ngo bazirinde kuba zagera kure zikabura.

Iri ni isoko riciriritse rikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Aha turi kubonamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'inkweto. Hakaba hari abantu baje kwigurira. Hari inkweto zirambitse hasi kuri shitingi, aho babaza ibiciro maze bakagura.

Iri ni isoko riciriritse cyangwa se amasoko abera mu cyaro, ahacururizwa ubukoresho bugiye butandukanye, harimo ibyuma, ingufuri, utuyunguruzo, imimamiro n'imidaho, ibisorori ndetse n'indo.

Abamama babiri bahagaze ahantu bigaragara ko ari mu isoko rya rusange bambaye ibitenge bose kandi bibaberey,e imbere yabo hakaba hari igikapu, bahagaze nk'aho hari umuntu bari kwitegereza imbere yabo kandi uri kuvuga ibintu.

Iri ni isoko riciriritse cyangwa se isoko rito, hakaba harimo umumama wikoreye tungurusumu ku mutwe akaba agiye kuzigurisha, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwigurira.

Ubucuruzi bubera ku muhanda rimwe na rimwe usanga buba bufitiye umumaro cyane cyane abantu bakiri kwiyubaka. Aha hari abantu badodera imyenda ku muhanda, aho batereka imashini ku muhanda maze abakiriya bakaza.

Aha ni ahabera ubucuruzi buciriritse, turi kubona imifuka ibiri irimo umuceri ndetse n'undi umwe utagaragara neza, inyuma yayo hakaba hari udukarito ndetse n'uducupa duto bacururizamo amavuta yo guteka.

Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho dusangamo intebe nziza cyane n'ameza kandi hakaba hari icyapa kivuga kiti murakaza neza.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi zijyanye no gutanga amafunguro, hakaba harimo intebe nziza ndetse n'amezaza, si ibyo gusa kuko hateye n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagana.

Mu rwanda hatangirwa serivisi z'amahoteli ndetse n'amaresitora, aho hirya no hino mu gihugu wagera hose wabihasanga. Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo amafunguro.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro ya koboyi, akaba atwaye imodoka, afashe vora ndetse no ku kuma kagabanya umuvuduko, ni byiza gutwara ikinyabiziga ubifitiye uruhushya.

Uyu ni umumotari wicaye kuri moto akaba ari kubara amafaranga harimo inote za bibiri ndetse n'iza magana atanu, afite agakapu k'umuhondo n'umukara yambaye mu ijosi.

Uwo muhanda wa kaburimbo wubakiwe abaturage harimo ikinyabiziga cya moto, utwaye moto yambaye kasike ndetse akaba ahetse umumama na we uhetse umwana mu mugongo, uyu mumama na we yambaye kasike.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo utwaye igare ni umuhanda utari kunyuramo ibinyabiziga byinshi kuko uyu munyegare arisanzuye, hakurya y'umuhanda hari umunyamaguru uri gutambuka.

Umwari wambaye ijakete y'umukara yambaye uturindantoki tw'umukara, akaba yambaye ipantaro y'ubururu yicaye kuri moto aho ziparitse ari guseka arishimye, nawe yagiye mu mwuga wo gutwara moto.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibihande bibiri, hakaba harimo umunyegare uhetse umugenzi inyuma. Iruhande hakaba hariho uturongo turi mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse n'ikigo cy'amashuri.

Mu muhanda rwagati harimo abamotari ndetse bahetse abagenzi, umumotari umwe ahetse umugenzi uteruye umufuka undi nta mugenzi ahetse afite kasike ku kaboko bakaba bose bari inyuma y'imodoka y'ivatiri.

Umusore w'umuzungu wicaye kuri moto ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Afite kasike mu ntoki. Yambaye uturindantoki. Imbere ye hakaba hari abamotari bari kumureba, bamwereka uko itwarwa.

Urujya n'uruza rw'abamotari ndetse n'abagenzi, bakaba bari mu muhanda rwagati. Aho abagenzi bari kugenda batega moto abamotari baba bambaye cask. Maze wabona umugenzi nawe ukamuha cask mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo ukabarimo imodoka isa umweruru, iyi modoka iri kugenda mu cyerekezo kimwe, imbere yayo hakaba hari icyapa kinini cy'umunara ndetse hakaba hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'amabuye. Hakaba harimo umumotari utwaye moto nta mugenzi afite. Imbere ye hari umutaka wa Emutiyeni urimo umukozi utanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura, uri kuvugana n'undi mu motari.

Aha ni mu muhanda rwagati tukaba turi kubonamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi bishoreranye byinshi, ni urujya n'uruza rwateje impagarara mu muhanda, hakaba harimo imodoka ndetse na moto ihetse umugenzi, uwo mugenzi ahetse igikapu ndetse ateruwe n'umufuka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto. Umumotari yambaye kasike y'umuhondo ndetse n'umugenzi atwaye yambaye kasike y'umuhondo. Kuruhande hakaba hari uturongo tw'umweru turimo amabara y'ubururu. Hakurya y'umuhanda harasa icyatsi kibisi.